Umukecuru uri guseka wambaye umwambaro ufite ibara ry'icyatsi n'umuhondo ndetse akaba ateza igitambaro na cyo gifite ibara ry'icyatsi n'umuhondo, inyuma ye hari abantu benshi bigaragara ko bari mu nama cyangwa mu gikorwa runaka aho bose basa nkabafataniye hamwe.

Umukobwa wicaye ku itapi yagenewe gukoreraho imyitozo ngoramubiri. Yicaye asobekeranyije amaguru arambuye amaboko hejuru. Iruhande rwe hari bikoresho bitandukanye bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri n'icupa ry'amazi, ndetse na mudasobwa iteretse kuri tapi imbere ye.

Igare ryagenewe abafite ubumuga, rifite intebe y'umukara ndetse n'amapine aabiri manini y'inyuma n'andi abiri matoya y'imbere, rikagira ibyuma by'ubururu ndetse n'iby'umukara kandi rifite aho umuntu ashobora gushyira ibirenge.